Abantu bicaye batuje ubona ko bafite icyo batekereza kandi ubona ko bagomba kugira icyo bageraho cy'ingirakamaro.

Inyubako ubona ko iri ku muhanda igizwe n'amabati y'umukara, iruhande rwayo hari ibiti hari ipoto y'amashanyarazi ubona ko ari inyubako nziza rwose.

Serivisi za banki ya kigali zegerejwe abaturage ahanga baragaragaza uko ibikorwa biri kugenda bikorwa aho bagaragaza ko batanga serivisi zo kubika, kubikura, kuguriza ndetse no kwakirana yombi abakiriya bakagira bati murakaza neza.

Abantu bishimye baseka bari mu nama bungurana ibitekerezo bibageza ku iterambere barimo baganira.

Ikamyo y'umutuku iri mu muhanda umushoferi uyitwaye nawe yambaye umutuku hejuru, icanya ibinyoteri ndetse hagati y'amapine y'imbere n'ay'inyuma harimo akaba k'umweru gatandukanya igice cy'inyuma n'ik'imbere.